Itsinda ry'abantu bifotoje, barimo abagore ndetse n'abagabo, bambaye imyenda iri mu mabara y'umweru, ubururu, umukara, umutuku ndetse n'andi, inyuma yabo hari inzu, ifite amasikariye azamuka hejuru, ahantu ubona ko ari nko muri resitora.

Abantu bicaye hamwe babona ko bitabiriye inama cyangwa se ikiganiro runaka bambaye imyenda irimo amabara'umutuku umukaraubururu n'umweru imbere yabo hari ameza manini hariho ibikoresho byabo bitwaje nk'amakayi amatelefone hakaba hariho kandi n'amacupa arimo icyo kunywa.

Itsinda ry'abantu biganjemo abakuze bambaye imyenda y'amabara arimo umukara n'umwerur, umutuku n'ayandi, bakaba bitegeye imbere yabo ahari ibikorwa bitandukanye biri kuhakorerwa.

Abantu bitabiriye inama runaka. Higanjemo abantu bakuze harimo abagabo n'abagore. Bambaye imyenda iri mu mabara y'umutuku n'umweru kandi harimo n'inzego zitandukanye z'umutekano hano mu Rwanda. Imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umuhondo, ayo meza kandi ateretseho ibikoresho bitandukanye bari kwifashisha.

Umuntu wambaye ijire y'umuhondo ya sosiyete ya MTN, afite telefone mu ntoki n'indangururamajwi ari kuvuga, imbere ye hicaye abandi bantu batandukanye harimo abana n'abandi bantu bakuru.

Abantu benshi cyane bicaye ku ntebe z'umutuku. Bambaye imyenda irimo amabara y'umukara, umuhondo n'umweru. Urabona ko bitabiriye inama cyangwa se umuhango runaka. Imbere yabo hari umugabo urimo urabaganiriza, abagezaho ijambo. Wambaye ishati y'ubururu.

Abagabo bicaye ku ntebe z'imikara bari mu nama kandi hagati yabo hari ameza ateretseho amazi ndetse na ji, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo inama ya komite mpuzabikorwa y'akarere ka Nyagatare, umuturage ku isonga serivisi inogeye bose.

Umugabo uhagaze yambaye ishati y'umutuku n'isaha ku kuboko n'impeta, afite indangurura majwi mu ntoki ze, isa umutuku, umukara ,ndetse n'ubururu, arimo aratanga ijambo kubantu bicaye imbere ye, inyuma ye hari imeza iri mu ibara rya orange n'umweru, iteretseho amacupa y'amazi.

Umugabo uhagaze wafashe ku gatuti kari imbere ye, yambaye ishati y'icyatsi, ipantaro ya kake afite indangururamajwi y'umukara mu ntoki ze, inyuma ye hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hirya ye hari undi mugabo ufashe amaboko ye inyuma ye.

Abantu bahagaze ubona ko bishimye bategereje igikorwa runaka kigiye kubera aho hantu. Bahagaze mu buryo bw'uruziga, bambaye imyenda iri mu mabara y'umweru, ubururu, umukara n'ayandi. Hirya yabo hari ihema ry'umweru, ririho udutambaro dukoze ibendera ry'u Rwanda.

Abantu b'ingeri zitandukanye , bicaye mu ihema ry'umweru rizengurukijeho ibitambaro bikoze ibendera ry'u Rwanda, abo bantu harimo aba polisi ndetse n'abaturage basanzwe , n'abandi bayobozi bicaye mu ntebe z'imyeru urabona ko bitabiriye igitaramo runaka.

Inama yabereye mu cyumba kigari, abantu bayirimo bicaye ku ntebe zifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ibyuma bisize irangi ry'umukara, imbere hari abana bambaye imyenda y'imyeru ndetse n'amapantaro y'amakoboyi bari gususurutsa abitabiriye inama.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye hamwe ubona ko bitabiriye umuhango runaka. Imbere yabo hagaze abantu batatu, harimo umugore umwe uhagaze hagati ufite indangururamajwi witeye umwitero mu ijosi, wambaye kandi ikanzu y'igitenge. Impande ye hari abagabo babiri umwe yambaye ishati y'umweru undi yambaye ishati y'umukara.

Umugabo wambaye amadarubindi, ikote, ishati y'umweru na karuvati ufite indangururamajwi mu kuboko kwe kw'iburyo, ukuboko kw'ibumoso yakurambitse ku gatuti kari imbere ye gasa nka shokora, inyuma ye hari icyapa cyanditseho RDB ndetse n'andi magambo avuga ngo shora mu Rwanda.

Abantu bari kubyina imbyino gakondo by'umwihariko harimo abagore biteye imyitero y'umweru, bambaye ingori mu gahanga n'ibingi mu ijosi, bamanitse amaboko yabo, imbere yabo hicaye abagabo bambaye amakote y'imikara, inyuma yabo kandi hari abandi bantu benshi bari kubakomera amashyi.

Inka z'inyambo. Ni inka mu Rwanda tuzi nziza kandi zitabwaho kurusha izindi zose zikunze kuba ziri mu Rukari.

Ikirago kimwe mu biranga umuco nyarwanda cyicarwagaho kera kandi na n'ubu hari ahantu hamwe na hamwe bakigikoresha, kiri ahantu hari ibyatsi bitoshye kandi kiri mu mabara agiye atandukanye, iry'umweru n'umukara.

Abantu baje mu birori bakaba bari kureba imbyino gakondo, hagati harimo umukobwa uri kubyina, inyuma ye hari abasore bambaye mu buryo bwa gakondo bari kumukomera amashyi banamuririmbira.

Umugabo bigaragara ko ari gutanga ijambo, yambaye amadarubindi, isaha kandi mu biganza bye afitemo indangururamajwi, inyuma ye hari intebe z'icyatsi, imeza n'ibindi bikoresho bitandukanye biri aho hantu.

Bimwe mu bikoresho biranga umuco Nyarwanda ni umwambi, ingabo ndetse n'ibindi. Ibi bikaba byarifashishwaga mu gihe babaga bagiye ku rugamba kuko byabafashaga gutsinda.

I Nyanza mu rukari hakaba hari inzu yubakishije ibyatsi yari isanzwe ibamo abami batandukanye, bagiye bayobora u Rwanda mu bihe bigiye bitandukanye.

Abantu bambaye imipira y'imituku n'abandi bambaye imyitero ndetse n'amashati y'umweru barimo barabyina imbyino gakondo, imbere yabo hari abakobwa na bo bambaye mu myenda isa umutuku n'umweru, barimo barabakomera amashyi banabaririmbira abandi babyina.

Abagabo babiri begeranye ubona ko basa neza rwose basetse, bambaye imyenda iri mu mabara y'umweru ariko bambaye inigi mu ijosi z'umukara, kandi n'iyo myenda igihe iriho utubara tw'umukara.

Abantu biganjemo urubyiruko ndetse n'abagabo bicaye mu ntebe z'icyatsi kandi imbere yabo hari ameza ateretseho amaji ndetse n'amazi y'Inyange bari kuganirizwa ku bijyanye n'umuco nyarwanda.

Imirishyo n'ingoma ni bimwe mu byifashishwa mu gihe abantu bari kubyina imbyino gakondo, ndetse mu gihe cya kera, bajyaga banazikoresha iyo ingabo zabaga zivuye ku rugamba.

Abana b'abakobwa ubona ko bishimye cyane bambaye bya kinyarwanda, harimo imyenda y'imyeru, imyitero y'imikara bari gukoma amashyi banaririmba, iruhande rwabo hari ingoma za kinyarwanda bari kubavugiriza ndetse bahagaze ahantu mu busitani.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku ufite telefoni mu ntoki, akaba yegeranye n'inka nyinshi zizwi mu Rwanda nk'inyambo ziba ziteze amahembe neza cyane, akaba ari umushumba wazo cyangwa se uzitaho akaziragira.

Abana b'abakobwa bishimye bambaye bya kinyarwanda, bambaye imyitero, amakanzu ndetse n'ingoreri mu mitwe, barimo barakoma amashyi baririmba abandi babyina, hari n'abari gukoma ingoma za kinyarwanda.

Ibikoresho bya kinyarwanda byifashishwaga mu mirimo igiye itandukanye mu bihe byashize uretse ko n'ubu ngubu bigikoreshwa ariko atari cyane harimo: agacuma, urwuho, inkoko, imiheha ndetse n'ikirago.

Umugabo wambaye ingofero y'umuhondo, imigozi imufashe kugira ngo atagwa, arimo arakora umuriro w'amashanyarazi kugira ngo abaturage babone uko bacana, akaba akorera ikigo cy'Igihugu gishinzwe amashanyarazi REG.

Ahantu hari urugomero rw'amashanyarazi, rwubakishije ibyuma byinshi, kandi hari n'insinga nyinshi zijya zitandukanye zijyana umuriro w'amashanyarazi mu duce twinshi tugiye dutandukanye tw'igihugu. Hari ikirere cyiza kirimo ibicu by'umweru n'ubururu juru.

Urugomero rw'umuriro w'amashanyarazi rwifashishwa mu gukwirakwiza umuriro hirya no hino mu gihugu. Aha rero akaba ari ho hakusanyirizwa umuriro, ni uko na wo ukagezwa mu baturage bitagoye.

Abantu bambaye amajire y'icyatsi, ubona ko bakora imirimo ijyanye no gusakaza ndetse no gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage, aho bakorera ikigo cy'Igihugu gishinzwe gusakaza cyangwa se gukwirakwiza umuriro REG.

Umuhanda muremure w'igitaka urimo urujya n'uruza rw'abantu, ukikijwe n'amazu harimo ifite amabati y'umutuku n'ayandi magufi kandi ku nkengero z'uwo muhanda hagiye hashizeho, amapoto ajyana amashanyarazi, impande n'impande.

Iyi akaba ari sitasiyo y'umuriro w'amashanyarazi, hakaba hari insinga ndetse n'ibindi bikoresho byinshi bigemura umuriro w'amashanyarazi biwukura hano bikawujyana mu baturage.

Urugomero rugenzurwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi REG. Hakaba hakusanyirizwa amashanyarazi na yo aganakwirakwizwa mu baturage bityo bakabona umuriro uhagije.

Urugomero runini rw'amashanyarazi kandi rwubakishije insinga nyinshi hamwe n'ibyuma, bikikijwe n'ibyatsi ndetse n'ibiti, kandi ni byiza ko abantu badakora mu bijyanye n'amashanyarazi bahirinda mu rwego rwo kwirinda impanuka zitunguranye.

Umuriro w'amashanyarazi nawo ni kimwe mu bidukikije by'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko tuwukenera, haba mu gucangen ama telefone yacu, bamwe bawukoresha bateka, kuducanira n'ibindi, rero ni byiza ko tuwubungabunga.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu, ipantaro y'umutuku uhagaze ku rwego, iruhande rwe hari inzu iteye irangi ry'umweru n'ubururu ifite amadirishya y'icyatsi, ubona ko arimo arashyiramo umuriro muri kashipawa.

Kugeza ubu mu gihugu cy'u Rwanda, abagore na bo bahawe agaciro, ku buryo bamaze gufata, iya mbere mu bikorwa byinshi bitandukanye, biteza imbere igihugu kandi na bo ubwabo biteza imbere, uyu rero uri hano, yambaye imyenda igaragara ko ari iy'ikigo cy'Igihugu gishinzwe umuriro cyangwa se gusakaza amashanyarazi REG.

Ibikorwaremezo birimo amapoto ndetse n'insinga, byose bisakaza umuriro w'amashanyarazi mu baturage, ni ingenzi ko tubibungabunga bitewe n'uko nyine biduha umuriro w'amashanyarazi, twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Inyubako nyinshi zituriye umuhanda w'igitaka ubona ko uri ahantu habi, aho ngaho kandi iruhande rw'uwo muhanda w'igitaka hari abantu benshi bahari urugero hari nk'umuma uhagaze wifashe mu mayunguyungu, hari umutaka wa MTN ugaragaza umuntu ucuruza amayinite.

Inyubako zubatswe na leta mu rwego rwo guha serivisi inoze abaturage bazajya baza babagana, hari amadapo agiye atandukanye ndetse hari n'ubusitani bwiza, hari umuhanda wa kaburimbo ugana kuri iyo nyubako kandi hari n'amatara yo ku mihanda.

Imvura yangiza ibikorwa remezo biba byarubatswe na Leta, twavugamo nk'imihanda aho usanga amazi yaretse ku buryo bigora ibinyabiziga ndetse n'abantu mu kugendera muri uwo muhanda imvura yangije. Hirya y'uyu muhanda, hari ibihingwa bitandukanye ndetse n'ibiti.

Inyubako nini isakaje amabati y'umutuku, imbere yayo mu mbuga haparitse ibinyabiziga bitandukanye birimo moto ndetse n'imodoka kandi hakaba hari n'abantu bari gusohoka mu muryango, aho baje gushaka serivise zitandukanye.

Igishushanyo cy'inka iteze amahembe y'umukara, izwi mu Rwanda nk'Inyambo, kikaba ari igishushanyo cyangwa se ikibumbano kigaragara mu karere ka Nyagatare.

Inyubako yubakishije amatafari azwi ku izina rya boroke sima, ashakakaje amabati y'ubururu kandi iyo nzu ntago iruzura nibwo ikiri kubakwa kandi bigaragare ko ari inzu izajya yigirwamo.

Inyubako yubatswe na Leta, mu rwego rwo kugira ngo ikorerwemo imirimo igiye itandukanye kandi ifitiye igihugu akamaro, yubakishije amatafari ahiye kandi isakaje amabati y'umutuku, ikikijwe n'ishyamba.

Inyubako yubatswe na leta mu rwego rwo kwegereza abaturage serivisi zijyanye n'ubuzima, yanditseho ijambo gira ubuzima kandi isize irange ry'ubururu, imbere yayo hari umugabo uhahagaze wambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda kandi ikikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye n'ibyatsi.

Ahantu hari kubakwa ikiraro cyambukiranya ibice bibiri kugira ngo abantu bajye bakora ubuhahirane mu buryo bworoshye bitabagoye. Icyo kiraro kiri gucaho umugabo utwaye ipikipiki.

Inyubako zubakishije amatafari ahiye ziri kumwe zegeranye, imbere yazo hari ubusitani na ho inyuma yazo hari umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda ndetse n'amatara yo ku muhanda atanga urumuri.

Muri gahunda Leta yihaye harimo no kubakira abantu batishoboye kugira ngo na bo babone aho batura, inyubako isakaje amabati y'umutuku ikaba iri ahantu ubona ko yisanzuye kandi hari umutekano.

Bimwe mu bikorwa remezo igihugu cy'u Rwanda cyashyizemo imbaraga harimo no kubaka imihanda ya kaburimbo izajya ifasha abaturage b'igihugu cy'u Rwanda mu bijyanye n'imihahirane kandi uyu muhanda ukikijwe n'ibyatsi ndetse n'ibiti.

Inyubako nyinshi ziri ahantu mu kigo zisakajwe n'amabati y'ubururu kandi ziteye irangi ry'umweru, zifite amadirishya y'ibirahure kandi zikikijwe n'ibiti.

Urugomero rwifashishwa mu gutanga umuriro w'amashanyarazi, rurubakiye neza, impande yarwo hari imisozi ibiri iteganye iteyeho ibiti cyangwag se amashyamba.

Inyubako isakaje amabati rwose ubona ko ashaje. Ifite inzugi n'amadirishya bisa ubururu. Imbere yayo hakaba hashinze ibendera rya repubulika y'u Rwanda riri mu mabara atatu ari yo ubururu, umuhondo n'icyatsi. Iruhande rw'iyo nzu hirya haparitse imodoka y'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu bahagaze hejuru ku kiraro gikorotirije ibyuma bisize irange ry'umweru n'umutuku, abo bantu bambaye kandi imyenda irimo amabara y'umweru n'umutuku n'ubururu, hasi y'icyo kiraro harimo akagezi gatoya karimo karamanukamo amazi mabi.

Abantu babiri begeranye barimo baratambuka hejuru ku kiraro, umwe yambaye ishati irimo ubururu n'ipantaro y'umukara undi yambaye ijiri y'umukara barimo baratambuka, inyuma yabo hasi hahagaze urujya n'uruza rw'abantu baje kureba uko bari gutaha icyo kiraro.

Ahantu hitegeye ubona ko hasa neza hari ubusitani n'inzu nziza isakaje amabati y'umutuku, ifite amasikariya agera mu nyubako yo hejuru, iyo nzu ifite amadirishya y'ibirahure by'umukara.

Abantu bahuriye hamwe baje mu muhango wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, harimo abantu batandukanye n'inzego z'umutekano.

Abantu bahagaze mu muhanda uri gucamo urutoki rwinshi rubari inyuma, kandi harimo umugabo wambaye impuzankano y'Igipolisi cy'u Rwanda, hari n'undi wambaye ishati y'amaboko n'ipantaro ya kake yafashe mu mifuka.

Abantu bane bicaye imbere y'abandi. Bisa nk'aho ari bo bari gutanga ibiganiro, bakaba bicaye ku ntebe z'imikara. Imbere yabo hari ameza manini ateretseho ibikoresho bari kwifashisha. Harimo amakayi, telefone zabo uducupa tw'amazi n'ibindi.

Itsinda ry'abagore bahawe impano z'amatelefone aho bahagaze imbere y'abandi bantu bicaye, inyuma hakaba hari icyapa kinini cy'umweru cyanditseho amagambo y'umukara.

Abantu bane bicaye ubona ko ari abayobozi, bicaye mu ntebe z'imikara, bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, umukara ndetse n'umugore ubari hagati wambaye ikanzu y'igitenge, imbere yabo hari ameza manini, ariho ibikoresho nk'amakayi bari kwandikamo, uducupa tw'amazi, telefone zabo n'ibindi.

Abantu bahagaze hamwe bifotoje, ubona ko ari abayobozi. Barimo ingeri zitandukanye; urugero: harimo abasirikare, harimo abarinda imfungwa b'abasoroviya, harimo abandi bantu bari inyuma yabo, harimo n'abandi bambaye imyenda irimo amabara y'umukara n'umweru, ubururu ndetse n'andi.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku, ipantaro ya kake, afite indangururamajwi mu ntoki ze, hirya hari undi mugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara uri guseka, bari mu ihema rirambuyeho ibitambaro by'ubururu ndetse n'umuhondo.

Abaturage bicaye ahantu mu byatsi mu ishyamba. Baba bitabiriye inama batumijweho n'abayobozi babo kugira ngo babagezeho ibyo baba bari kubategurira kugira ngo na bo babe batangaho ibitekerezo.

Abantu ubona ko bari mu nzego z'ubuyobozi barahagaze mu ihema bifashe mu biganza byabo imbere, hagati yabo harimo utumeza turimo amazi yo kunywa, bambaye imyenda irimo amabara y'umukara, umweru n'ubururu ndetse harimo n'abambaye imyenda y'ingabo z'Igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo uhagaze wemye yambaye ishati irimo amabara y'umukara ,asa nk'ivu ndetse n'ubururu. Mu kuboko kwe kw'iburyo afitemo indangururamajwi, inyuma ye hari urujya n'uruza rw'abaturage bicaye. Harimo abagabo, urubyiruko ndetse n'abagore.

Inama y'abayobozi bagiye batandukanye yicaye mu cyumba gisize irangi ry'umweru ndetse gifite n'inzugi zifite ibara rya shokora hamwe harakinguye. Imbere y'abo bantu bahicaye, hari ameza kandi bamwe bafite mudasobwa abandi bafite impapuro mu ntoki n'ikaramu.

Abantu benshi bateraniye hamwe kandi ubona ko ari abayobozi b'inzego zitandukanye baje mu nama, harimo nk'abasirikare bicaye ku myanya y'imbere, harimo abandi bantu bicaye inyuma yabo bambaye imyenda y'ubururu, imbere yabo ahagaze umugabo wambaye ijire y'umukara n'agapira k'ubururu ufite indangururamajwi ari kubaganiriza.

Abantu bari mu itente rifite ibara ry'umweru ndetse n'akarongo gasa n'ivu, hicayemo abantu bagiye batandukanye kandi baje kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana acyenda mirongo icyenda na kane, imbere yabo hari abandi bahahagaze.

Umugabo wambaye imyenda y'abasirikare baranga Igihugu cy'u Rwanda ufite indangururamajwi mu ntoki ahagaze imbere y'abantu arikubaganiriza, inyuma ye hari intebe z'imikara ndetse n'icyapa kinini kirimo ibara ry'icyatsi n'umweru cyandikishijeho amagambo y'ubururu ndetse n'umweru.

Inyubako isakaje amabati y'umukara, imbere yayo hari amadarapo harimo irya Repubulika y'u Rwanda, iyo nyubako iteye irange ry'umweru, ifite imbuga nini kandi n'ubusitani imbere ndetse n'ibyuma bikorotirije iyo nzu.

Umugabo ukuze wambaye ingofero ya oranje ufite indangururamajwi mu kuboko kwe kw'iburyo, yambaye ishati ya kaki, ubona ko ari gutanga ijambo, inyuma ye hari imeza iteretseho ibyuma by'umuziki ndetse n'imbaga y'abantu bicaye bari kumvamva icyo ari kubabwira.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara imbere ye hari agatuti gakoze mu giti, afite indangururamajwi bigaragara ko ari gutanga ijambo ku bantu bamwicaye imbere batandukanye bicaye mu ihema ry'umweru ariko rikikijweho udutambaro twakoze ibendera ry'u Rwanda.

Abantu ubona ko bitabiriye amahugurwa, umuhango cyangwa se inama runaka biganjemo abambaye imyenda y'icyatsi kibisi bazwi nka daso ndetse harimo n'abasirikare n'abandi bantu basanzwe.

Abantu benshi bicaye mu ihema rifite ibara ry'umweru, harimo abagabo bambaye ikositime ndetse bamwe bambaye n'amanete, baje mu gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana acyenda mirongo icyenda na kane kandi hari n'abandi bantu bahahagaze.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange izwi ku izina rya kwasiteri, ifite ibara ry'umweru mo imbere kandi urabona ko harimo abagenzi, yaparitse ku kazu aho abagenzi bakunze guhagarara bugamye izuba mu gihe batari babona imodoka ibatwara.

Urujya n'uruza rw'abantu, bamwe bafite imizigo, bicaye mu kazu kabugenewe, kaba kari muri gare, bategereje imodoka ibajyana, aho berekeje, bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku, ubururu, umuhondo ndetse n'ayandi.

Aho imodoka ziparika hazwi nko muri gare, hari imodoka itwara abantu ku buryo bwa rusange mu imbere harimo abantu bicaye ibajyanye mu cyerekezo bagiyemo, isize irangi ry'umweru kandi ifite n'amapine y'umukara, hirya hari inyubako zimwe zisakarishije amabati y'umutuku izindi ay'ubururu.

Imodoka iri kugenda muhanda wa kaburimbo, harimo akarongo gafite ibara ry'umuhondo ndetse hirya y'aho hari abakobwa babiri bambaye amapantaro, bari kugenda mu gahanda k'abanyamaguru hirya hari n'amazu.

Ibyapa byo ku muhanda ni ingenzi kuko biyobora abaturage cyangwa se n'ibinyabiziga bityo kugira ngo amategeko yo mu muhanda yubahirizwe, iki cyapa cy'umweru kiriho imibare ijana na mirongi itanu na kabiri, kigaragaza, umuhanda.

Icyapa kiri mu buso nk'ibara ry'ubururu. Ikirango kiri mu ibara ry'umweru. Ni icyapa kigaragaza ko aho hantu haparikwa imodoka. Kikaba gikunda gushyirwa ku mihanda kugira ngo bagaragaze aho abantu bashobora guparikwa.

Ibinyabiziga bitandukanye biri mu umuhanda wa kaburimbo ndetse hirya y'uwo muhanda harimo amazu y'ubucuruzi agiye asize amarangi atandukanye, hari isize irangi ry'umweru, indi isize irangi rya oranje ndetse hari n'abantu bari kugenda mu muhanda w'abanyamaguru.

Umumotari utwaye umugenzi bambaye kasike z'umukara bari kugenda mu muhanda w'amabuye ukikijwe n'inyubako ku mpande zose nk'urugero harimo inyubako ifite irangi ry'umuhondo ifite inzugi ziteye irangi ry'umutuku n'izindi nyubako kandi muri uwo muhanda harimo n'ibindi binyabiziga nk'amagare n'ibindi.

Abantu bari mu gikorwa cy'umuganda ndetse inzego z'umutekano zaje kwifatanya n'abaturage kugira ngo bubakire umuntu. Hirya yabo hagiye hari ibimera bigiye bitandukanye ndetse n'imyaka n'ibigori n'insina n'ibindi.

Abantu bateraniye hamwe baje mu nama aho bari batumijwe n'abayobozi babo bashinzwe umutekano w'imbere mu gihugu bakaba bari kubwirwa ku bikorwa bitandukanye biba bibagenewe bityo na bo basabwa kubigiramo uruhare.

Abantu ubona ko bateraniye ahantu mu Mudugudu, bakaba barimo biga ku bibazo bitandukanye by'aho mu Mudugudu kugira ngo babikemure, harimo abapolisi baba bashinzwe umutekano w'imbere mu Gihugu, hakabamo abasirikare ndetse n'abaturage muri rusange.

Abantu bahuriye hamwe bari gukora igikorwa cy'umuganda aho barimo barakora cyangwa se batunganya umuhanda uzajya ucamo imodoka ndetse na bo ubwabo, bakaba bari gukoresha ibikoresho byiganjemo amasuka.

Abantu bahagaze ahantu hari ibyatsi ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye, inyuma yabo hari abandi bicaye mu gihuru kibakingirije izuba mu bahagaze harimo abagabo batatu bambaye impuzankano y'icyatsi bashinzwe umutekano.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge mu kuboko kwe afite indangururamajwi y'umukara bigaragare ko hari ijambo ari gutanga. Inyuma ye mu ihema rihari, hicaye abantu batandukanye barimo abana n'abandi bantu bakuru.

Abayobozi b'inzego zitandukanye, baje gukora umuganda, bubakira umuntu utishoboye, hirya yabo hari ibigori ndetse hateyemo igiti cya avoka, harimo n'ipoto itwara amashanyarazi hirya no hino mu gihugu.

Inzego z'umutekano hano mu Rwanda zitandukanye zahuje imbaraga. Zikaba ziri gukora umuganda, zikupakupa ibyatsi. Muri izo nzego harimo abadaso ari bo bambara imyenda y'icyatsi ndetse n'abasirikare.

Umugabo wambaye imyenda y'abapolisi arahagurutse. Yari yicaye mu ntebe za pulasitike z'ubururu. Iruhande rwe hari abandi bantu barimo abambaye ingofero y'umukara ndetse n'agapira k'umweru, begereye indabyo ndetse n'igiti.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abagore, bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku, umukara n'umweru. Urabona ko bishimye cyane, bizihiwe. Inyuma yabo hari ihema ry'umweru ririho ibitambaro, bikoze amabara y'idarapo ry'u Rwanda.

Imbaga y'abantu bicaye mu byatsi ndetse imbere yabo hari umugore wambaye ipantaro y'umukara uri kubaha ikiganiro ku bigendanye n'umutekano kandi hari abagabo bicaye mu ntebe z'ubururu harimo uwambaye impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda ndetse hirya y'abo hari amazu n'abana bari gukina mu kibuga.

Abantu bateraniye hamwe bo mu mudugudu, baje gufasha umuntu utishoboye, kumwubakira inzu, urabona ko bahuje imbaraga, harimo urubyiruko, ababyeyi bakuze, abagabo ndetse n'abakecuru.

Abantu bari mu mukino w'amaguru, ndetse banakora icyarimwe imyitozo ngororamubiri. Biragaragara ko hari amazamu y'umweru, kandi harimo n'umunyezamu witeguye gufata umupira bagiye kumutera.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye hamwe mu kibuga, bambaye imyenda irimo amabara y'umuhondo, umutuku umweru, umukara, ubururu ndetse n'ayandi. Bari ku murongo bamwe bazamuye amaboko bayashyize hejuru, abandi imbere yabo, abandi ku mpande. Bigaragara ko bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ikibuga kinini kirimo amakipe abiri ari gukina mu rwego rwo gukora siporo, kandi bamwe bambaye amajezi afite ibara ry'ubururu abandi bambaye afite ibara ry'umuhondo, hirya hari moto ziparitse ndetse hari n'aho abaje gufana bicara ariko nta bafana barimo.

Abantu batatu begeranye basa n'aho bari batsindiye igihembo runaka, harimo uwambaye umupira ujya gusa umutuku, harimo uri hagati ufite umupira w'amaguru ndetse n'undi uri ku ruhande wambaye ishati y'umukara, bafite kandi icyapa mu ntoki cyanditseho Akarere ka Nyagatare.

Abantu biganjemo igitsina gabo barimo barakina umukino w'amaguru, bambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu, umukara, umweru ndetse na oranje, umwe yirukanse asatira umupira barimo barakoresha.

Abakinnyi bari mu kibuga barimo barakina, babiri muri bo bambaye imyenda y'ubururu umwe uri inyuma yabo yambaye imyenda y'umuhondo bigaragara ko ari amakipe abiri yahuye arimo arakina, bari mu kibuga gifite tapi y'ubururu kandi gikorotirije senyenge.

Abagabo bari mu kibuga gifite tapi y'icyatsi kandi harimo abambaye amajezi afite ibara ry'ubururu kandi hari n'abambaye amajezi y'umuhondo, hirya yabo hari abashinzwe umutekano ndetse hari na moto ihaparitse.

Abana bari mu kibuga cy'igitaka. Barimo barakina umupira w'amaguru. Bambaye imyenda iri mu mabara y'umuhondo, umukara ndetse n'umutuku. Bakaba bishimye cyane kandi bari kuboneraho banakora siporo ngororamubiri.

Abana ubona ko bari mu mukino wa maguru aho harimo abambaye imyenda ifite amabara y'umutuku, umukara n'umuhondo ndetse bari mu kibuga cy'igitaka.

Umugabo uri gukina umupira mu kibuga gifite tapi y'icyatsi, uwo mugabo yambaye imyenda ifite ibara ry'umuhondo kandi hirya ye haparitse moto kandi hari n'umuntu wicaye aho abafana bicara.

Gukora siporo ngororamubiri ni ingenzi. Haba kubuzima, bwacu cyangwa se no kuba, byakuzanira, amafaranga. Hano ndabona abana, barimo barakina umupira w'amaguru bambaye imyenda irimo amabara, y'umutuku n'umukara.

Itsinda ry'abantu bagize ikipe runaka, bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu umukara, na ho umunyezamu wabo akaba yambaye imyenda irimo amabara y'umutuku bahagaze bifashe mu mavi, na ho ab'inyuma bafatanye ku ntugu.

Abasore bari mu kibuga bari gukina umupira w'amaguru mu rwego rwo gukora siporo ndetse hirya y'icyo kibuga hari ibyatsi byicawemo n'abantu kandi hari n'abandi bagabo babiri bahagaze bombi bari kureba uwo mupira, hari na moto ihaparitse.

Abasore bari mu kibuga, bari gukina umupira mu rwego rwo kugira ngo bibafashe gukora siporo. Bambaye amajezi afite ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, kandi hirya yabo hari umugabo uri kugenda, iruhande rwe hari moto ihaparitse hari na kasike.

Abantu bari mu matsinda abiri, bamwe bambaye imyenda umutuku, abandi bambaye imyenda isa ubururu, barimo baranyuranaho kumurongo bakorana mu ntoki, bigaragara ko ari abakinnyi, bagiye gukina umukino wamaguru uzwi nka football.

Umuntu wambaye umupira w'ubururu urimo uturongogo tw'umweru usa nk'uri kwiruka, hirya ye hari umugore uri kugenda wambaye ipantaro y'umukara, hakurya hari abandi bantu benshi bitegeye aho hantu hari ikibuga barimo barafana, bigaragare ko hari kubera umupira wahuje amakipe.

Abantu benshi bari mu kibuga bari gukora siporo, ndetse hirya yabo hari umugabo uhagaze kandi hari n'abandi bana bari gukinira mu kibuga kiriho tapi y'icyatsi.

Amakipe abiri ubona ko agiye guhura mu mukino wa maguru, bamwe bambaye imyenda bakinana isa umutuku, abandi bambaye isa ubururu bari mu kibuga gisa icyatsi kibisi.

Itsinda ry'abantu benshi bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku, ubururu, umukara, umweru n'umuhondo, bari mu muhanda wa kaburimbo, barimo bariruka, ubona ko bari gukora imyitozo ngororamubiri, inyuma yabo hari inzu nini ya etage, yubakishije ibirahuri.

Abantu ubona ko bicaye muri sitade baje kureba umukino runaka, bicaye mu ntebe zisa ubururu, bambayebo imyenda irimo umweru n'umukara, wiganje, hari n'abambaye imipira y'imituku.

Umuhanda wa kaburimbo ni kimwe mu bikorwa remezo bikwiye kwitabwaho n'abantu muri rusange kuko n'imihanda idufasha kuba twava mu gace kamwe ko mu gihugu tujya mu kandi mu buryo bworoshye hifashishijwe ibinyabiziga, muri ibyo binyabiziga kandi harimo nka moto ari nayo iri kugaragara muri uyu muhanda.

Umuhanda w'igitaka unyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande rw'ibumoso ndetse n'urw'iburyo hari imodoka zihari zihaparitse, kandi hirya y'uwo muhanda hari ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye.

Abantu babiri bari mu nzira nyabagendwa ariko y'igitaka ituranye n'ibipangu, abo bantu harimo umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'ubururu ndetse n'umugore wambaye ishati y'umweru n'ijipo y'umukara.

Umugabo wambaye agapira k'umweru kanditseho Skol ndetse n'ipantaro ya kaki, ari mu nzira nyabagendwa mu kayira k'abanyamaguru kegeranye n'umuhanda wa kaburimbo. Inyuma ye hakaba hari icyapa cyanditseho ngo ivuriro.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'abantu, imodoka n'amagare. Ukikijwe n'amazu ndetse n'ibiti, iki kikaba ari igikorwa remezo cyiza kandi k'ingenzi kubera ko umuhanda nk'uyu uhuza ibice bitandukanye by'Igihugu bikoroshya ingendo ndetse n'imikoranire.

Imihanda ya kaburimbo ni bimwe mu bikorwa remezo Leta y'u Rwanda ikomeje guteza imbere bitewe n'uko ari ingenzi kuko bihuza ibice bitandukanye by'igihugu. Ubuhahirane bukoroha, kugenderana ndetse n'ibindi bikorwa.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo moto ebyiri ziteganye ziri kugenda. Iruhande rw'umuhanda hateye indabyo kandi ku nkengero z'umuhanda hari utura tw'abagenzi ndetse n'izindi moto zihaparitse.